Icyumba cyo kwa muganga, aho barimo kwigisha uko wafasha umuntu wagize ikibazo cyo gutera gake k'umutima cyangwa guhagarara, hakaba harimo abaganga ndetse n'abaturage bari kwigishwa.

Icyumba cyo kwa muganga, aho iki cyumba cyita ku barwayi barembye cyane, hakaba harimo abaganga bambaye impuzankano z'icyatsi kibisi ahantu hose.

Inzu y'ivuriro aho iyi nzu yubakishije amatafari ahiye. Ikaba isakaje amabati y'ubururu. Imbere yayo hakaba haparitse imodoka.

Icyumba cyo kwa muganga aho babika ibizamini bybarwayi kugira ngo baze kureba indwara barwaye, aha umuganga akaba yambaye uturindantoki t'wubururu akaba afite muducupa tw'ibizamini by'abarwayi.

Ubukangurambaga, aho ubu bukangurambaga bufite insanganyamatsiko iravuga iti gushishikariza urubyiruko kwitabira serivisi zo ku cyumba cy'urubyiruko.

Imiti ya kinyarwanda aho umugabo arimo arasekura umuti, akaba ari gusekurira mu isekuru yifashishije umuhini.

Imiti ya kinyarwanda, aho iyi miti irimo amoko menshi: yaba iy'ifu, iy'amazi, ibibabi ndetse n'ibindi bitandukanye.